Ku rukuta rw'ishuri ribanza hashushanyijeho igishushanyo cy'umubiri w'umuntu ukozwe n'amagufa, ibi ni bimwe mu bituma abanyeshuri bagira ubwenge kuko babasha kumenya ibice bigize umubiri wabo.

Inzu yubatswe hifashishijwe ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi urugero twavugamo nk'amabuye ndetse n'isima, isakaje amabati y'ubururu, iyi kandi ifite n'ikigega kinini gifite ibara ry'umukara gikoreshwa mu gufata amazi y'imvura maze akazakoreshwa mu gihe amazi yabuze.

Inyubako y'ishuri ifite amabara arimo umuhondo ndetse n'amadirishya y'umukara, kuri iyi nyubako hashushanyijeho inyamaswa nini yo mu ishyamba ifite amahembe maremare ndetse ifite n'umutonzi, ikaba izwi ku izina ry'Inzovu.

Agakapu gafite amabara meza ndetse kariho igishushanyo gifite ishusho y'ipusi. Ibi bikaba ari byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ndetse bikabafasha kugira ngo bagire ubwenge n'ubwonko bwabo bukanguke.

Amwe mu mashusho dusanga mu bitabo cyane cyane iby'Ikinyarwanda, bikoreshwa mu kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza, bikaba byerekana inyamaswa zo mu rugo urugero inka, ipusi ndetse n'izo mu gasozi no mu mazi urugero twavugamo nk'ifi.

Imbere y'inzu zituwemo n'abantu zubatswe mu buryo bugezwehoZ, hari ikibuga kinini gikinirwamo umupira w'amaguru kirimo ubwatsi butoshye. Muri iki kibuga kandi hari igikoresho gikoreshwa mu gusukura intoki.

Inzu y'ikigo cy'ishuri, ifite amadirishya y'umukara ndetse'imbere hakaba harimo intebe zikozwe mu mbaho zicaweho n'abanyeshuri, ku rukuta rw'icyo kigo hariho inyamaswa zitandukanye, zaba izo mu rugo ndetse no mu ishyamba, urugero twavugamo nk'ipusi ndetse n'inzovu.

Imbere y'inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, hateretse umufuka w'amakara, akabakozwe mu biti bitwikwa maze akifashishwa mu gucana, hari kandi n'ikinyabiziga cy'ipikipiki cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Udushushanyo dukoze mu ishusho y'abantu ndetse turi ku gitabo kifashishwa mu kwigisha abana bakiri bato cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke. Utu dushushanyo tukaba dufasha abana kugira ngo ubwonko bwabo bukanguke, ndetse banagire ubwenge.

Umupira ubanzwe mu ishusho y'uruziga ndetse ufite amabara arimo ubururu n'umweru, uyu ukaba ukinishwa umukino w'umupira w'amaguru ndetse ukanakoreshwa mu kwigisha ibikoresho bitandukanye abana bo mu mashuri y'inshuke cyangwa se n'abanza.

Ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri iyo bari kwiga isomo ry'imibare. Urugero twavugamo nk'ibyo bacisha imirongo yaba ihagaze cyangwa itambitse ndetse n'ibyo bacisha uruziga.

Udukoresho dukozwe mu byuma dufite amabara atandukanye arimo ubururu, umuhondo, umutuku ndetse n'umweru, utu dukoresho dukunda kwifashishwa cyane mu mashuri yaba abanza ndetse n'ayisumbuye mu isomo ry'imibare.

Mu kigo k'ishuri ribanza hari ikibuga gikozwe neza ndetse gifite imirongo y'umweru. Iki kibuga gikinirwamo n'abanyeshuri igihe bari kuruhuka, bakaba bakiniramo umukino w'intoki ndetse n'amaboko.

Udukoresho dufite amabara atandukanye tumwe dukozwe mu byuma, utu tukaba dukoreshwa mu kwigisha abana baba abo mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, uburyo bwo guca imirongo ndetse no gushushanya ibishushanyo birimo nk'uruziga.

Amarembo y'ikigo cy'amashuri afite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'umweru, aya marembo kandi akaba akikijwe n'ibiti binini by'inganzamarumbo biha umwuka mwiza wo guhumeka abanyeshuri biga muri icyo kigo.

Imbere y'amashuri meza yubakishije amatafari yi ndetse asakaje amabati, hari umurima munini uhinzemo igihingwa cy'ibigori ndetse kandi muri uwo murima, harimo ibiti birebire.

Imbere y'inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho ndetse ifite amabara arimo umweru ndetse n'ubururu, hari ikinyabiziga cy'ipikipiki gikoreshwa n'abantu mu gutwara imizigo cyangwa se no gutwara abantu bagenzi babo.

Ibitabo birimo ibiri mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ibiri mu rurimi rw'icyongereza bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ibi bikaba bibatoza umuco wo gusoma maze bakazakura babizi neza.

Inyubako z'ishuri zubakishijwe amatafari ahiye ndetse zisakaje amabati y'ubururu, imbere y'izo nyubako, hari ikibuga cyisanzuye kirimo idarabo ry'igihugu, rifite amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Inyubako zishaje zubakishije amatafari ndetse zisakajwe amabati na yo ashaje, izi nyubako zikaba zikorerwamo ibijyanye n'uburezi bw'amashuri abanza, inyuma y'izi nyubako kandi hari ibiti birebire by'inganzamarumbo.

Udukoresho dukoreshwa cyane cyane mu kwigisha isomo ry'imibare mu mashuri abanza, utu dukoresho tukaba dukoreshwa ibintu birimo nko guca imirongo, gupima uburebure bwaba ubutambitse ndetse n'ubuhagaze.

Igishushanyo kifashishwa mu kwigisha abana bakiri bato, cyane cyane abiga mu mashuri abanza. Kikaba cyerekana abana bicaye ku ntebe, ndetse bamwe muri bo bafite ubumuga bw'akaguru, aho bafite imbago bifashisha mu kugenda.

Mu cyumba kiza kirimo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umweru, harimo udukoresho dutandukanye twifashishwa mu kwigisha abana, cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke, ibi bikaba bibafasha kugira ngo bagire ubwenge.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu ndetse n'ikigina, bari kwiruka bava mu kigo cy'amashuri batashye. Imbere yaho kandi hari indabo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi n'urukarabiro.

Agakoresho gafite amaguru asongoye cyane, gafite igice kinini cy'icyuma gifite ibara ry'umweru, ndetse n'aho gufata nk'umukara, aka gakoresho gakoreshwa mu guca inziga cyanecyane mu burezi bwo kwigisha imibare mu mashuri abanza.

Mu cyumba k'ishuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'isima harimo umunyeshuri wambaye impuzankano z'ikigo, uyu akaba ari kwandika inyuguti zitandukanye ku kibaho gifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse kiriho n'udupapuro dufasha abanyeshuri kumva neza ibyo bigishwa.

Inyubako z'ikigo cy'ishuri zubakishije amatafari ahiye, izi nyubako zikaba zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hari kandi n'ibikinisho by'ibyuma bifite amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi, abanyeshuri bakaba babyicundamo iyo bari mu masaha yo kuruhuka.

Ibishushanyo bibiri bikoreshwa mu kwigisha abana bakiri bato ibijyanye no kugira ubuntu ndetse n'umuco mwiza, hakaba ari umwamwarimu ndetse n'umunyeshuri bishimye bari kwigishanya, na none kandi hari umubyeyi w'umugore uri gufasha umuntu ufite ubumuga.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi, bw'abana bakiri bato, cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke. Ibi twavugamo, nk'amakaramu y'amabara meza, akoreshwa mu gushushanya, imikasi ndetse n'amakayi bandikamo, cyangwa se bakayashushanyamo.

Ahantu hari inyubako zubatswe mu buryo bumwe hifashishijwe amatafari ahiye ndetse n'isima, zikaba zisakaje amabati y'umutuku, imbere yazo kandi hari inzira nziza zabugenewe zo kunyurwamo ndetse ahinze n'ibyatsi bitoshye.

Inyubako ndende yubatswe hifashishijwe amatafari ndetse n'isima, iyi nyubako ikaba ikorerwamo ibijyanye no gusenga ndetse ifite n'icyuma kinini kiri iruhande rw'amabati, iki kaba kiyobora amazi ajya mu kigega kiyafata.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ndetse igerekeranyije ifite amabara meza, iyi nzu ikorerwamo ibijyanye n'uburezi bw'amashuri abanza ndetse n'ay'inshuke.

Udukoresho dufite amashusho atandukanye arimo ay'uruziga, mpandeshatu ndetse na mpande enye, dukunda gukoreshwa cyane mu kwigisha abanyeshuri baba biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke kugira ngo bamenye gutandukanya ibintu.

Inyubako y'ikigo cy'ishuri yubakishije amatafari ahiye, iyi nyubako ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Ku wundi musozi kandi hari inzu nyinshi cyane zubatswe mu buryo bugezweho zituwemo n'abaturage.

Agakoresho gafite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara karimo udukoresho twinshi twifashishwa cyane mu kwigisha imibare mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Tumwe muri utu dukoresho harimo amakaramu yo gushushanya ndetse n'ibikoresho byo guca inziga ndetse n'imirongo.

Abana bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu ndetse bicaye ku gasambi aho bari gukoresha udukoresho dutandukanye tw'udukinisho, tubafasha mu rwego rwo kugira ngo bakangure ubwenge. Aba kandi barimo umunyeshuri ufite ubumuga ndetse akaba afite n'imbago yifashisha mu kugenda.

Inzu z'amashuri zubatswe mu buryo bumwe, zifite amabara y'umweru hose. Izi nzu kandi zikaba zikorerwamo ibikorwa byo kwigisha abana biga mu mashuri mato arimo abanza ndetse n'ay'shuke. Na none kandi mu mpande z'icyo kigo hari ibiti birebire bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina bicaye batandukanye ahantu hari kubera inama. Aba bambaye udupfukamunwa tubarinda kuba bakwanduzanya indwara z'ubuhumekero.

Imbere y'abanyeshuri benshi bambaye impuzankano zifite ibara ry'ikigina ndetse n'umweru hari umusore na we w'umunyeshuri wambaye izo mpuzankano, uyu ari guhabwa impamyabushobozi n'umubyeyi w'umugore ukora mu bijyanye n'uburezi.

Mu cyumba k'ishuri gifite amabara y'umuhondo weruye ndetse gikoze neza, harimo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ariko batambaye impuzankano z'ikigo. Aba bakaba bafite amakaye yabo ndetse bakaba bakurikiye umuntu uri imbere yabo, ari kubigisha.

Amashuri yubatswe mu buryo bwiza, afite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, aya mashuri akaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, imbere yayo kandi hari idarapo ry'igihugu ndetse n'indabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Imbere y'inyubako nziza cyane zubakishije amatafari ndetse n'isima, zifite amabara atandukanye arimo ubururu ndetse n'umuhondo weruye, hari itsinda ry'abakozi bambaye imyambaro y'akazi, aba bakaba baje kureba imikoresherezwe y'izo nyubako.

Abanyeshuri barimo abambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu n'umukara, umuhondo ndetse n'ikigina, bateraniye ahantu hamwe aho bagiye mu rugendo shuri, ibi bikaba ari uburyo bwo kwiga, abanyeshuri banabona ibyo biga.

Mu cyumba cyo mu mashuri yisumbuye gikorerwamo ubushakashatsi ndetse kirimo n'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi ku bigendanye n'amasomo biga.

Umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye wambaye impuzankano z'umukara ndetse n'umweru, ateruye igikombe kiza, ibi bikaba ari nyuma yo gutsinda amarushanwa ahuza ibigo by'amashuri yisumbuye mu mikino itandukanye.

Ahantu mu cyumba k'ishuri cyabugenewe harimo abakobwa benshi b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, aba bakaba bari kuganirizwa n'umubyeyi w'umumama ku bijyanye n'ubuzima.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ndetse ifite amabara arimo ubururu, iyi nyubako ikaba ikoreshwa mu gutanga uburezi, bwaba ubw'amashuri yisumbuye ndetse n'abanza, ikaba ifite kandi ikigega gifata amazi mu gihe cy'imvura.

Umunyeshuri w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ari kuva mu kigo anyura mu gahanda k'ibitaka kari hagati y'amashyamba afite ibiti birebire ndetse ari kumwe n'indabo zifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'ikigo zifite amabara asa ndetse bambaye n'udupfukamunwa, tubarinda kuba bakwanduzanya indwara, bari ahantu mu cyumba cyabugenewe cy'ikoranabuhanga, kirimo ibikoresho nka mudasobwa abanyeshuri bifashisha bakora ubushakashatsi.

Umunyeshuri wambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, ari imbere y'abanyeshuri bagenzi be, bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho, uyu akaba ari kubasobanurira ibijyanye n'amasomo yabo.

Mu cyumba kinini cy'ishuri gisize amabara y'umuhondo weruye, harimo abanyeshuri bambaye imyambaro y'ikigo, ifite ibara ry'ikigina ndetse n'umweru, aba bakaba barimo bamwe bicaye ku meza y'ishuri ndetse n'abandi bakaba bari kuganira ku masomo.

Hirya y'ikibuga cy'umukino w'intoki gikinirwamo n'abanyeshuri, hari ubusitani burimo ubwatsi butoshye ndetse n'indabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi, aha hakaba harimo itsinda rigari ry'abanyeshuri bambaye impuzankano zabo.

Ahantu mu cyumba cy'ishuri harimo abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara bari kumwe n'umwarimu wabo aho bari kwerekana igihembo bahawe mu marushanwa yo gusoma.

Mu ishuri ryiza ryubakishije amatafari ahiye ndetse rifite igisenge cyiza, harimo abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri ifite ibara ry'umweru ndetse n'kigina, aba bicaye ku ntebe aho bari gukora ibizamini byabo.

Mu cyumba cy'ishuri cyubatswe hifashishijwe amatafari ndetse n'isima, harimo abakozi bambaye imyambaro y'akazi irimo amajire ndetse n'ingofero zirinda impanuka. Aba bakaba bari kugenzura imikorere y'icyo cyumba gikorerwamo ubushakashatsi.

Inyubako zubakishijwe amatafari agezweho ndetse zitararangira, izi nyubako zikaba zizakorerwamo imirimo yo kwigisha abana, yaba mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, imbere yazo kandi hakaba hari intebe zizicarwamo n'abo bana igihe bazaba batangiye gukoresha ayo mashuri.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi n'amadirishya bifite ibara ry'ubururu, iyo nzu ikaba ikorerwamo ubushakashatsi n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, bateraniye imbere y'ikigo k'ishuri aho bari guhabwa impanuro ndetse n'inama n'abarimu babarera.

Ubwinjiriro bw'ikigo cy'amashuri cyigisha ibijyanye n'uburezi bwo mu mashuri abanza, muri iki kigo dusangamo ibiti birebire, indabo ndetse n'ubwatsi butoshye aho abanyeshuri bicara mu gihe bari gufata akayaga.

Itsinda rigari ry'abakozi bambaye imyambaro y'akazi, barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba ari inzobere mu bijyanye n'ubwubatsi, aba baje gusura inyubako ziherutse kubakwa z'amashuri mu rwego rwo kugira ngo bagenzure ubuziranenge bwazo.

Imbere y'ahantu hateganyijwe hari ibitwikiriye abantu ndetse n'intebe bicaramo, hari itsinda rigari ry'abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara aba bakaba bari mu myiyerekano.

Inyubako z'ishuri zifite amadirishya yi'icyatsi kibisi ndetse zubakishije amatafari ahiye, imbere y'izo nyubako, hari ubusitani bwiza burimo ibyatsi bitoshye ndetse n'ibiti, aha hakaba harimo abanyeshuri biga muri ayo mashuri yisumbuye.

Ni ishuri ririmo abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano z'ubururu, harimo umubyeyi w'umugore nawe wambaye umwenda w'akazi ufite ibara ry'umweru, aho ari kubaha uburezi ku bijyanye n'ingingo zitandukanye, muri iri shuri kandi hakaba harimo ikibaho cy'umukara abanyeshuri bandikaho ndetse na mwarimu akakifashisha ageza amasomo ku banyeshuri.

Imbere y'inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ndetse igerekeranyije hari itsinda rigari ry'abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara wijimye, aba bakaba basuwe n'abazungu.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri bambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu, aba biga mu mashuri yisumbuye mu bijyanye n'amashanyarazi ndetse bakaba bari mu cyumba kigari, aho bari gushyira mu bikorwa ibyo biga.

Icyumba kimeze neza cyubakishije amatafari ahiye ndetse gifite parafo y'umweru irimo amatara abonesha mu gihe k'ijoro, kikaba cyuzuyemo ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyane cyane abiga siyansi mu gihe bari gukora ubushakashatsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'kigina bicaye neza mu ntebe, imbere yabo hari ameza ndetse buri wese afite mudasobwa ye aho ari gusubiramo amasomo ye yifashishije ikoranabuhanga.

Mu ishuri harimo ibikoresho bitandukanye, urugero twavugamo nk'amakaye abanyeshuri bandikamo, ameza, ndetse n'ikibaho gifite ibara ry'umweru umwarimu yandikaho mu mugihe ari kwigisha.

Inyubako nziza cyane ya kaminuza yubatswe mu buryo bugezweho igerekeranyije, imbere y'iyi nyubako kandi hari ubusitani bwiza bugizwe n'ibiti ndetse n'indabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi abanyeshuri bicaramo mu gihe bari kuruhuka.

Imbere y'inyubako y'ishuri rya kaminuza hari intebe zikozwe mu buryo bugezweho zifite amabara y'ubururu. Izi zikaba zifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga cyangwa se mu gihe bari gusubiramo amasomo yabo.

Mu nzu ya kaminuza nini iberamo inama, imikino ndetse n'imyidagaduro, harimo abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi kibisi, bakaba bakurikiye umuntu uri imbere yabo, aho ari kubaganiriza ku ngingo zitandukanye.

Itsinda ry'abanyeshuri ba kaminuza bari mu cyumba cy'ishuri gifite amabara y'umuhondo weruye, bicaye ku ntebe ndetse bishingikirije ameza, aba bari gusubira mu masomo yabo bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa.

Mu ishuri rya kaminuza ririmo ibikoresho bitandukanye birimo n'intebe ndetse n'ameza abanyeshuri bakoresha bari gusubiramo amasomo yabo, harimo itsinda ry'abanyeshuri bari gusubira mu masomo yabo bakoresheje ibikoresho birimo nk'amakayi n'amakaramu.

Icyumba cya kaminuza, gifite amabara harimo intebe z'ubururu zikoze mu bikoresho bya plasitike. Izi ntebe zikaba zicarwaho n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga kugira amasomo yabo ndetse n'igihe bari kuyasubiramo.

Mu ishuri rya kaminuza harimo abanyeshuri bicaye neza, bakurikiye umwarimu uri imbere yabo uri kubagezaho amasomo akoresheje ikoranabuhanga, aba kandi na bo ubwabo bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa.

Ikibaho gikozwe mu bintu bitandukanye ndetse gifite amabara y'umweru, iki kibaho kikaba kifashishwa n'abanyeshuri igihe bari kwandika ndetse n'umwarimu akaba atanga amasomo ye akifashishije.

Udukoresho twakozwe n'abanyeshuri biga mu bijyanye n'ubugeni muri kaminuza, utu dukoresho tukaba tujyanwa ku isoko tukagurishwa maze abadukoze bakabyungukiramo ari na ko bunguka ubumenyi.

Mu cyumba kinini cya kaminuza, hahuriyemo imbaga nyamwinshi yiganjemo urubyiruko. Aba bakaba bambaye imyambaro isa, ndetse bakaba bari kwiga. Abenshi bafite mudasobwa zabo, bifashisha mu kwiga amasomo ndetse no kuyasubiramo.

Intebe zikozwe mu buryo bugezweho, zifite ibara ry'umukara ndetse n'inyuguti zandikishije amabara y'umweru, izi zikoreshwa n'abanyeshuri igihe bari gusubiramo amasomo yabo cyangwa se igihe bari kuyahabwa.

Mu ishuri rya kaminuza rifite inyubako ndende zifite amabara y'umweru, hari ubusitani bwiza burimo ibiti ndetse n'ubwatsi butoshye, na none kandi hari akayira k'abanyamaguru kari kunyurwamo n'abanyeshuri biga muri iryo shuri.

Imbere y'inyubako nziza ya kaminuza yubatswe mu buryo bugezweho, igerekeranyije ndetse ifite amabara y'umweru, hari ubusitani bwiza burimo ibiti ndetse n'ubwatsi butoshye, abanyeshuri bakaba babwicaramo igihe bari gufata akayaga.

Mu nyubako iberamo ibintu bitandukanye hateganyijwe kuberamo ibirori byo gutanga impamyabumenyi ku basoje ibyiciro bitandukanye by'amashuri ya kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda, aba bambaye amakanzu yerekana ko basoje amashuri yabo.

Inyubako nini ya kaminuza ifite amabara y'umweru ndetse yubatswe mu buryo bugerekeranije, imbere yayo hari ubusitani bwiza bugizwe n'ibiti ndetse n'indabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi, aha hakaba ariho abanyeshuri bicara iyo bari gufata akayaga.